Abaganga babiri bari ahantu muri shitingi, hakaba hari umurwayi umwe wambaye imyenda y'umukara ugeze mu za bukuru wasamye, bakaba bari kumurika mu kanwa ke ngo barebe uburyo bamufasha, hakurya hakaba hari abandi bantu batandukanye, hakaba bameze nko mu nkambi.

Akana k'agakobwa gafite ibisuko, kakaba kambaye imyenda itukura, kari gukaraba ibiganza mw’ibase y'umukara, amazi ari guturuka mu itiyo yayo. Inyuma har’uruzitiro rufite amatafari ahiye.

Abadamu batandukanye bari mu cyumba runaka, bakaba bambaye imyambaro itandukanye, uri imbere ateze agatambaro mu mutwe we, yambaye akajipo k'ubururu n'agashati karimo utubara dutandukanye, yifashe mu mayunguyungu.

Abantu b'ingeri zitandukanye bahagaze imbere y'inyubako y'ubururu, iriho icyapa cyanditseho amagambo avuga ngo gira ubuzima, hasi hari andi ari mu ndimi z'amahanga, hakaba hari abambaye amataburiya n abambaye imyenda isanzwe.

Abana babiri batandukanye bari imbere y'umugezi umwe muri bo ari ari gufungura amazi, hari indobo ebyiri ziteretse imbere yaho undi, undi akaba ayifite uwambaye agapira k'ubururu n'undi wambaye akarimo uturongo.

Abantu bagera muri bane bicaye mu cyumba gisa nabi, kiri kuberamo inama, abagabo barimo bafite mudasobwa imbere yabo, abadamu umwe afite inyakiramajwi mu ntoki ze undi akaba afite imisatsi y'umuhondo.

Abadamu batatu bicaye imbere y'umuganga akaba umwe muri bo ari kumushyiraho icyuma gipima umuvuduko w'amaraso, akaba ari kumubwira uko byifashe abandi bakaba bari gutega amatwi bategereje ko nabo bagerwaho.

Abana bagera muri bane bakikije umugezi urimo kuvomerwaho n'umwe muri bo usunika amazi aturutse hasi mu butaka ijerekani y'ikibundi iteretse kuri uwo mugezi n'akandi kari hijya mu byatsi abandi bakaba bahagaze iruhande rwaho.

Abadamu benshi n'abagabo bambaye amataburiya y'ubururu bari imbere y'ihema mu byatsi n'abicaye ku ntebe z'umweru bari gukoma mu mashyi basa naho bari kuririmba bishimye, abafite amasakoshi n'utundi tuntu iruhande rwabo.

Abantu benshi bicaye ku ntebe zitukura bakaba bagiye bakikije ameza y'umukara, imbere yabo hari uducupa tw'amazi y'inyange n'impapuro zigaragaza ibyo bari kwandikaho biri kubera muri iyo nama hirya hari urugi rwa oranje rukikijwe n'akantu k'umukara.

Umunyeshuri ukiri mutoya w'umukobwa, wambaye imyenda y'ishuri n'umupira, ari gukaraba intoki ziwe, imbere hakaba hari inyubako zitandukanye n'ibiti bitariho amababi

Umudamu wambaye iribaya n'igitambaro mu mutwe akaba atereye umwana we, hakaba hari umuganga wambaye ga mu ntoki ze uri kuvura uwo mwana uri kurira, hirya hakaba hari igitenge cy'umubyeyi ari bumuhekemo.

Ahantu mu giturage hari abantu bagiye ku mugezi bakaba bari gukoresha uburyo butuma amazi amanuka n'umudamu uri kuvoma ayo mazi yifashishije indobo wambaye ibirenge n'igitenge agatambaro mu mutwe we hirya hakaba hari abantu bari.

Abantu bagera muri batanu harimo abagabo n'abagore, bose bakaba bahanze amaso usa n'aho ari mu kuboko kwa ruguru ari kubaha inama, imbere yabo hari uducupa tw'amazi n'udukayi bafite n'amakaramu mu ntoki zabo.

Abantu benshi bari ahantu mu ihema riri kuberamo igikorwa cyo gupima uburebure abana, hakaba hari umwana umwe uri gukorerwa icyo gikorwa n'abandi bantu bari hafi aho ngaho basa n'aho bari gukora mu mashyi barangaza uwo mwana n'umuganga wambaye ga mu kuboko kumwe n'undi uri inyuma uri gukoma amashyi.

Umuntu wambaye ingofero ya shakora n'agapfukamunwa isakoshi isa na move ari guterwa urushinge n'uwambaye imyenda y'umweru n'agapfukamunwa, iruhande rwabo hari akantu k'umukara ku meza y'umweru, inyuma yabo hari abandi bantu batandukanye hari uwambaye iby'umukara n'uwambaye rineti umuri iruhande.

Umuntu ufite ijerekani y'amazi akaba ari kuvoma mu mugezi, hirya hakaba har’undi uri gukoresha ayo mazi yoza igare wambaye inkweto z'umuhondo n'agapantaro k'umukara.

Abana bagera muri babiri bari gukoresha ivomero, umwe akaba afite akajekani gasa umweru, hirya ye hakaba hari umumama wambaye agatambaro k'ubururu n'imyenda y'umuhondo, hirya hakaba hari abandi batagaragara neza.

Abantu b'ingeri zitandukanye bicaye mu cyumba gisa n’aho kiri kuberamo inama, hirya hakaba hari camera zitari kugaragara neza ariko ndende, n'abandi bantu bar’inyuma. Imbere hari umu mama wambaye imyenda y'ibitenge, akaba iruhande rwe har’amazi cyangwa ikindi cyo kunywa runaka.

Abakobwa babiri bakiri bato bakaba bateruye indobo y'amazi, umwe akaba ashaka kuyitereka ku mutwe w'undi amukorera, kugira ngo atahane amazi. Bakenyeye ibitenge hirya yabo har’ibyatsi, n'inzu y'ibyatsi, hakaba hari n'umurima.

Urugo rufite uruzitiro rw'imiyenzi ,itsina z'ibitoki ziri hagati aho muri iyo mbuga isa neza ikubuye hirya akabara akarima k'imboga za dodo ,agatanda k'ibiti kariho amasahani n'ibikombe byanitseho mu gihe bimaze kozwa.

Abantu benshi bahuriye mu kigo nderabuzima hakaba hari abahagaze n'abicaye umudamu umwe wambaye imyenda y'ibitenge akaribaya n'igitambaro mu mutwe cy'ako afite ifishi mu ntoki ze n'akandi gapapuro gato yishyuriyeho umwana amucigatiye ku rundi ruhande.

Abantu benshi bicaye mu cyumba kimwe harimo abagabo n'abagore ,imbere yabo hakaba hari impapuro ndetse n'abafite telefoni mu ntoki zabo ,hirya hari isakazamashusho ndetse n'inzugi zigize iyo nyubako ,hari ifoto nini iri ku rukuta ndetse imbere yabo hari n'ibyokunywa bihateretse.

Umukobwa wambaye ingofero n'agapira n'igitenge, akaba ari gukoresha kandagira ukarabe y'inkorano iriho akajerekani, akaba yatezeho intoki hirya hakaba hari akandi kantu kajyaho isabune, kari mu ibara ritukura inyuma ye hakaba ari umuryango ukinguye.

Abantu b'ingeri zitandukanye bahagaze imbere y'ivuriro kwa muganga hakaba hari icyapa kigaragaza ko havurirwa, bakaba bambaye imyenda itandukanye hakurikijwe aho buri wese akora n'ibyo akoramo.

Abantu benshi bicaye mu cyumba gisa naho kiri kuberamo inama imbere yaho hari mudasobwa ku meza, hariho igitambaro cy'umweru n'utundi tuntu barambitseho hirya hari icyuma kiri kugaragaza amashusho kirimo umudamu ufite akuma k'inyakiramajwi.

Abadamu n'abana bicaye imbere y'abagabo babiri hirya hakaba hari undi wicaye wambaye agapira k'ubururu n'akajipo karimo uturongo, hirya hakaba hari inzu y'imbaho ndetse hakaba hari n'abamama bicaye bafite ibisuko mu mutwe abandi bakaba bateza udutambaro.

Umuganga ukiri mutoya yafashe akuma gafasha kumva uko umubiri umeze, agashyize ku mwana mutoya uri kumwe n'umubyeyi we wamumufashije, uhetse n'undi mu mugongo, iruhande rwe hakaba har’isakoshi.

Aakiri bato benshi harimo n'abakuze bari imbere y'umugezi, hari abafite utujerekani mu ntoki zabo baje kuvoma amazi akoreshwa aturutse hasi mu butaka hifashishijwe ikoranabuhanga rituma amazi azamuka.

Umugore n'umugabo bicaye ku gatebe k'urubaho, umudamu wambaye agashati k'umweru akaba asa naho ari umuganga, yambaye n'agapfukamunwa. Ibiganza bye ikaramu n'ikayi na telefone, mugenzi we yambaye utwuma twumvisha umuziki mu matwi ye. Inyuma yabo hari icyapa cyanditseho ngo sida iracyahari, duhaguruke tuyirwanye.

Abantu b'ingeri zitandukanye bicaye mu cyumba kiri kuberamo inama amaso bayahanze imbere, hari ibiri kubabera imbere yabo ku meza hariho uducupa tw'amazi n'impapuro z'ibyo bari kuganiraho.

Umwana mutoya w'umukobwa ufite ibisuka akaba yambaye ikanzu irimo utubara dutandukanye ibiganza bye byombi biri gufata ku gafuniko k'umuhondo kari ku gacupa kari guturukamo amazi ,ari gukaraba intoki.

Abantu benshi bahagaze imbere y'ivuriro hakaba harimo umugabo wambaye ishati n'ipantaro ya oranje, hirya hakaba hari umudamu wambaye agapira cyangwa agashati karimo ibara ry'icyatsi n'abandi bahagaze iruhande rwabo.

Abana babiri bageze mu kigero kimwe cy'imyaka bari kwifashisha igikombe kirimo amazi bakaraba ibiganza, umwe akaba ari gusukira mugenzi we uwambaye agapira gatukura undi akaba yambaye ak'iroza bari guseka bamwenyura.

Abantu benshi baricaye imbere y'umugabo wambaye agapira gatukura ni jakete y'umweru n'ipantaro ku gatebe k'umuhondo usa naho ari kwikora mu kanwa cyangwa ku mazuru, hirya aho hari akantu k'ubururu karimo ibara ry'umweru.

Abagabo n'abagore bagera mu munani, bakikije ameza manini, imbere yabo hakaba hari udutasi turimo icyayi n'udusahane turi munsi, hakaba hari porojegiteri cyangwa se akuma gasakaza amashusho, bakaba bari mu nama baganira.

Abantu batatu bicaye ahantu hamwe, umwe akab’afite icyapa mu ntoki ze ameze nk'umuganga cyangwa umujyanama w'ubuzima, uri kugira inama umugore n'umugabo bashakanye umudamu akaba atwite, umugabo we akaba ari gufata ku nda.

Umwana muto wambaye agapira k'umutuku, akaboko ke k'iburyo kakaba gafashe igikombe mu ntoki ari kuvomesha kuri robino amazi y'umugezi ,ari guseka hirya ye hakaba hari ibiti n'ibyatsi

Abadamu benshi bari imbere y'umugezi aho bavomera bakaba bafite indobo z'ubururu n'umutuku, hakaba hari abandi bahagaze, abandi bakaba bari guterura ya mazi ari kuvoma. Umumama wambaye agapira gasa n'iroza n'igitenge gisa icyatsi n'amaherena.

Umugabo wambaye uturindantoki n'agapfukamunwa n'akandi kantu mu maso yiwe, akaba afashe ku rutugu umusaza wambaye ingofero n'imyenda y'igitenge, inyuma ye hakaba hahagaze umwana, uwo mugabo afite igikoresho cy'ikoranabuhanga mu ntoki ze.

Umugabo ugaragara nk'ugeze mu za bukuru yambaye agapfukamunwa n'umupira wanditseho amagambo atagaragara ari mu ibara ry'umukara n'andi agaragara ari mu ibara ry'umuhondo, ubururu, n'icyatsi, hirya ye hakaba hari umuganga n'undi ufite urushinge uri kumutera ku kaboko.

Abantu benshi bicaye ahantu hameze nko mu kigo nderabuzima, imbere yabo hakaba hari umugabo wambaye ishati, uri gukoresha ibimenyetso by’umubiri usa naho atishimiye serivisi ari guhabwa. Hirya har’undi wambaye imyenda y'i roze numu mama wambaye igitenge mu mutwe uteruye umwana.

Abadamu babiri bari ku mugezi umwe muri bo akaba afite base n'ini cyane yateretsemo umwana akaba arikumwoza, hirya akaba ari undi mwana ufite amazi mu ntoki ziri gukarabira mu ndobo na mugenzi we uri hirya ufite indobe iruhande rwe n'umwana imbere ye ukenyeye igitenge mu ijosi.

Abana babiri bakiri bato bari kukinira imbere y'amazi ari guturuka mu itiyo bakaba bari kukaraba intoki, uwambaye imyenda isa irimo utubara dutandukanye n'undi wambaye agapira gatukura bakaba bahagaze mu byondo.

Umumama wambaye agapfukamunwa akaba ari gukarabya intoki zirimo igifuro kinshi umwana we ndetse akaba hirya ye hari ibiti n'ibyatsi bitandukanye, akaba yambaye igitenge kirimo ubururu n'umuhondo n'umukara n'agapira.

Umukobwa wambaye akajipo k'umukara n'agapira ka oranje uri guseka, imbere ye hakaba hari amabase agera muri atatu agerekeranye ubururu n'umweru n'irindi bara, iruhande hakaba hari indobo, hirya hakaba hari inzu yubakishijwe amabati, inyuma ye hakaba hari umugozi umanitseho imyenda y'amabara atandukanye, inyuma hakaba hari indi mifuka.

Umudamu uryamye mu bitaro kwa muganga akaba atwikirijwe igitenge utwite iruhande rwe ha akaba hari umurwaje n'umuganga washyize akuma kumva uku umwana ameze ku gutwi kw'iwe wambaye agapfukamunwa..

Abantu babiri batandukanye, umudamu n'umwana ukiri mutoya, barimo baravoma umugezi, aho bari kudahisha ibijerekani bazanye kuvoma basutamye, ruguru hari ibyatsi n'amazi arimo amabuye

Umukobwa wambaye ipantaro n'umupira akaba ari kuvomera amazi umwana ufite akajerekani gasa umuhondo n'akandi k'umweru n'udukweto tw'icyatsi , hino hakaba hari isuka hirya hakaba hari ibyatsi n'ibiti bitandukanye n'undi mwana afite akajerekani mu ntoki ze n'umumama uri kugenda.

Ahantu ku mugezi hariho umwana wambaye agapantaro k'ubururu n'agashati karimo utundi tubara, afite akajerekani mu ntoki ze, hejuru hakaba hari undi uri kumufungurira amazi, hirya hakaba hari abanyeshuri bavuye ku ishuri, abambaye imyenda ya kontoni n'amashati ya kacye n'amapantaro, bakaba bavuye kwiga, hirya hakaba hari izindi nyubako.

Akana k'agakobwa kambaye ikanzu ya shokora irimo utubara tw'umweru ruguru kakaba kari kumwenyura kari gukaraba ibiganza kuri kandagira ukarabe iriho akabase k'icyatsi, hirya hakaba hari amatafari yamenetse.

Abana batandukanye b'abanyeshuri, bari gukaraba ku mugezi ibiganza byabo, imbere yabo hari indobo z'umuhondo n'utujerekani baje kuvomeramo amazi, hafi aho hari ibiti bitandukanye n'inzu iri hirya y'ibyo biti.

Hamwe mu hantu kuvomerwa amazi yo ku mugezi harimo amarobine atandukanye, hari n'abaje bitwaje indobo kugira ngo bavome ayo mazi, hirya no hino hari abantu bakiri bato ni ukuvuga abana baje kuyavoma.

Abagabo n'abana bahagaze imbere y'umugezi, bakaba bari kuwukuramo amazi mu buryo bwateganyijwe kugira ngo avemo, hakaba hari ibido nini n'akajerekani gatoya n'abana bahagaze bari kureba ukuntu bikorwa, hirya hakaba hari ibyatsi n'izindi nyubako.

Umubyeyi uhagaze wemye ukuboko kwe kw'buryo kukaba gufashe kuri robine akaba ari gufungura amazi ajya mu ijerekani, yambaye agapira karimo uturongo tw'umweru n'umukara gasa move n'ingofero yambaye n'aka esharupe karimo utubara dutandukanye yiganjemo icyatsi n'umukara inyuma ye hari ibyatsi bitandukanye kuri uwo musozi ahagazeho.

Abadamu bagera kuri bane bicaye mu cyumba gisa n'aho kiri kuberamo inama, harimo uwambaye akenda k'icyatsi n'amarinete, hirya ye hakaba hari ufite inyakiramajwi mu ntoki ze, imbere y'iwe hakaba hari mudasobwa n'uducupa tw'amazi, undi wo hirya hari agacupa ka fanta.

Abantu bamwe bicaye imbere y'ihema, abantu babiri umwa akaba ari kureba muri telefone cyangwa tabuleti wambaye agapfukamunwa iruhande rwe hakaba hari umubyeyi wambaye ibitenge usa naho ategereje ibisubizo, hirya hakaba hari abandi nabo basa naho bari gusuzumwa.

Ahantu hari abantu b'ingeri zitandukanye, abadamu n'abagabo. Hari abicaye basutamye n'abahagaze iruhande rwabo, hari n'agacupa k'amazi kari hafi ahongaho. Inyuma hari ifoto nini cyane iri ku rukuta n'inzugi n'amarido.

Abadamu bagera muri bane bicaye ku ntebe y'urubaho n'undi mugabo wicaye imbere yabo, akaba yazamuye akaguru kamwe k'ipantaro, akaba yambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umweru ufite ubwanwa.

Abantu b'ingeri zitandukanye harimo abasore n'inkumi bahagaze imbere, hakaba hari icyapa bafite mu ntoki zabo kirimo amabara atandukanye byiganjemo icyatsi, move, umweru n'umukara.

Abadamu babiri bateruye abana imbere yabo hakaba hari undi ufite telefone nini imbere ye n'akandi gatelefone gato iruhande rwe, hirya hari firigo iriho agateremusi abo bamama bari konsa abana babo.

Amahema ari inyuma imbere yaho hakaba hari imodoka yo mu ibara ry'umweru n'abantu b'ingeri zitandukanye bahagaze. Bahurije intoki, ibiganza byabo ku gapapuro kamwe bose bari kumwenyura, umugabo wambaye umupira w'umweru udafashe ku bandi, amaboko yayashyize inyuma.

Abana benshi basa naho biga mu ishuri ry'incuke, hakaba hari abambaye imyenda y'ishuri n'abatayambaye, hari akana kambaye umupira urimo akabara gatukura w'umweru bose bari guseka barishimye, abandi bambaye irimo icyatsi n'ubururu.

Abantu b'ingeri zitandukanye bahagaze mu busitani imbere y'inyubako inyuma yaho hari n'ibiti, bafite ibyapa mu ntoki zabo bamwe muri bo hari n'abatabifite harimo abagore bagera kuri batatu, n'umugabo ufite uruhu rwera wambaye ingofero y'umweru.

Ibana benshi bakiri bato b'abanyeshuri, bakaba bambaye imyambaro yo ku ishuri ryabo igiye itandukanye bamanitse amaboko, hagati mu kigo harimo idaraporo ririho ibendera ry'igihugu, hirya hakaba hari ibiti bitandukanye n'inyubako z'amashuri yabo.

Umudamu wambaye imyenda y'umweru, akaba yambaye n'akabage k'ubururu, wambaye rinete ufite ibisuko by'umukara, imwanwa akaba yasize umutuku, inyuma ye hari abandi badamu bambaye amarinete, iruhande rwe hari mudasobwa n'utundi tuntu dusa naho tuvamo imiti.

Umugabo usa nabi cyane wirabura, ufite imisatsi yahindutse direde n'ubwanwa, imbere ye hakaba hari intebe n'agahema k'ubururu, inyuma hakaba hari inyubako iriho amabara atagaragara neza.

Umukobwa ufite imisatsi myiza miremirere yambaye uduhere akaboko ke k'iburyo gafashe ku rutugu rw'umusore wifashe mu gahanga ufite imisatsi mikeya wambaye ipantaro y'ikoboyi uwo mukobwa yambaye isaha ku kaboko.

Abana benshi bicaye hasi ku mukeka hakaba hari umukecuru uba arimo hagati wambaye imyenda wazinze amaguru yicaye akaba ari iruhande rwabo hakaba ari bamwe bafite utuntu bari gutamira abandi bakaba bari guseka hari n'abifashe ku matama.

Umugabo wambaye imyenda isa nabi inacikaguritse ibisize ibintu by'umukara mu maso, afite igitebo yambaye ku rutugu n'igishashi kirimo ibindi bintu bimeze nk'imyanda, inyuma ye hari ikamyo ifite ibara ry'icyatsi n'amapine ukuboko kw'icyatsi k'umugabo yitwaye kuri kugaragara.

Umugabo umwe wicaye mu muferege unyuramo amazi akaba yambaye igitenge, yagikenye nk'ugiye gukaraba, imbere ye hari ibindi bintu bitandukanye mu ntoki ze afite amasashi ibyo byose bikaba bigaragaza ko afite ikibazo cyo mu mutwe.

Abasore n'inkumi abicaye n'abahagaze ahantu kuri tapi b'ingeri zitandukanye, imbere yabo hari abambaye amakote n'amapaji ku mifuka yabo, bamwe bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga mu ntoki zabo, abandi bafunze igipfunsi mbese bari kwifotoza.

Abagabo babiri bambaye rinete n'udupfukamunwa, umwe akaba yambaye ishati y'umweru n'umudamu uri gukorerwa ubuvuzi bw'amenyo, undi ari kumumurikira, undi agakoresha utwuma afite mu ntoki ze areba ikibazo afite.

Abantu bari mu cyumba kimwe kiri gukorerwamo na muganga, umudamu wasamye bakaba ari kumurebera mu kanwa uko bimeze, imbere ye hari telefoni n'impapuro n'ikaramu kugira ngo bamufashe.

Ihema rinini ry'umweru ririho icyapa kigaragaza ibiri gukorerwa aho. Hafi aho imbere yaho hari abagabo n'abagore bambaye amataburiya, bakaba bameze nk'abaganga, n'abandi bantu basa nk’aho baje kwisuzumisha zimwe mu ndwara ziri gusuzumirwa muri iryo hema.

Abana benshi batoya bafite udukombe mu ntoki zabo n'uburoso mu ntoki, bari koza amenyo yabo bakaba ari abanyeshuri bambaye imyenda y'ishuri irimo utubara dutandukanye, hari abambaye imipira y'ishuri n'amabage mu mugongo.

Umuganga uri gutamika umurwayi imiti umurwayi akaba yambaye umupira utukura n'indi myenda irimo amabara atandukanye, umusatsi w'umuhondo, hirya hakaba hari ibindi bintu bifasha umuganga kumuvura.

Umudamu n'umwana bafite akantu kameze nk'akagozi mu biganza byabo, bari kugakoresha basukura amenyo, umwana wambaye agapira k'umweru n'uwo bari kumwe nuko, inyuma yabo hari ibirahuri.

Umuganga wicaye mu cyumba kirimo agatanda k'icyatsi akaba yambaye udukweto tw'umukara n'itaburiya y'umweru ibiganza bye yabifatanyije yambaye agasaha k'umukara n'impeta ku rutoki rwe, agapira ka oranje ari kumwenyura afite n'ubwana.

Ahantu hamwe hameze nko mu ishuri hakaba harimo abagabo n'abagore, uruhande rumwe hari umwana wambaye imyenda y'icyatsi y'ishuri, akaba ari kumwe n'umugabo uri kumwereka ikintu kimeze nk'umunwa amenyo, ari kumwereka uburyo ashobora gukoresha asukura amenyo yiwe agahora asa neza.

Abagabo babiri batandukanye umwe muri bo akaba ari umuganga wambaye ikaburiya y'umweru mo imbere akaba yambaye ishati na karuvati wambaye agapfukamunwa n'uturindantoki ari kumurika mu kanwa k'umwe mu barwayi ari kuvurambaye akenda k'icyatsi hirya hakaba hari amarido arimo utubara dutandukanye.

Umukobwa mwiza wicaye ku ntebe y'umweru ufite ibisuko akaba yambaye uduherena, agapira karimo umweru na oranje mu kiganza cye cy'iburyo afitemo miriwari ari kwireba asa n'uri kureba amenyo uko bigaragara bakaba bamaze kuyamwogereza.

Umugabo wambaye imyenda y'ijoro yo kurarana akaba ameze nk'uri kwiborosa wambaye impeta ku kaboko ari gukoresha, inyuma ye hari amarido atukura n'idirishya ndetse n'igipapuro cyo mu bwiherero kiri iruhande rwe n'akayesuwime ko kwihanaguza.

Umwana ukiri mutoya, ufite utwinyo dutoya, uri guseka amwenyura, akaboko ke k'ibumoso agafite mu ntoki, akaroso gafasha abana koza amenyo, gafite ibara ry'umuhondo n'ubururu ari guseka

Abadamu bagera muri batatu harimo umwe ukuze cyane ufite imisatsi y'umweru, bafite utuntu mu ntoki zabo tumeze nk'amakarita bari gukinira ku meza asa na shokora, inyuma yabo hari urugi rukinguye.

Abagabo babiri bari mu cyumba umwe akaba atagaragara neza wambaye agashati k'umweru, ariko mu ntoki ze akaba afite umugozi w'umuhondo mugenzi we akaba ari kuwukurura wambaye ipantaro y'umukara n'agapira, ufite ubwanwa bw'umweru n'umusatsi uvanzemo imvi, inyuma ye hakaba hari akabati.

Abantu benshi bahagaze mu murima harimo abagore n'abagabo bafite utuntu mu ntoki ze, hari abafite telefone bamanitse amaboko n'abandi, inyuma yabo hari ibigori, umurima urimo n'ibiti bitandukanye.

Umudamu wambaye agapira k'umuhondo ufite ibisuko n'uduherehena ari gufata imwe mu miti ari guhereza umusaza ugeze mu za bukuru wambaye lunete ufite imvi wambaye agapira k'umukara iruhande rwe akaba hari akahure karimo amazi.

Abantu babiri harimo umwe ugeze mu za bukuru w'umugabo ufite ubwanwa burimo imvi z'umweru n'agasatsi karimo dukeya, akaba akagare k'abamugaye amaguru. Uwo muganga ari kumufasha kukagenderamo amufashe ku rutugu.

Umudamu ugeze mu zabukuru ufite imisatsi y'umweru irimo agakara gakeya uri kumwenyura ariko akaba ariwe gukora imyitozo ngororamubiri, amaboko ye yombi afite utuntu tw'icyatsi mu ntoki ze, akaba yambaye agapira ka siporo karimo amabara atandukanye yiganjemo oranje, umukara n'umweru.

Umudamu umwe ufite imisatsi y'umweru wambaye agasengeri ka move karimo umweru, ari gukora imyitozo ngororamubiri ku gatakapi kabugenewe, ari kumwenyura yambaye agashanete, hirya ye hakaba hari ikindi kintu cy'umweru, ari kuzikorera hasi ku makaro.

Abantu babiri bicaye mu busitani hari n'igiti kiri inyuma yabo hirya hakaba hari inyubako umukobwa wambaye ishati y'icyatsi n'agapfukamunwa, afite ibisuko yafungiye hejuru, ari gufasha umugabo wambaye ishati y'ubururu n'agapfukamunwa kumufugira ibipesu yicaye ku ntebe ya shokora.

Abantu babiri bakikije ameza y'urubahobo imbere yabo hakaba hari utuntu tw'umweru tumeze nk'imiti bageze mu za bukuru bakaba barasa n'abafite agapapuro kari kugaragaza uko iyo miti ikoreshwa, uwo mudamu ufite imisatsi y'umweru wambaye imirimbo ku ntoki no mu ijosi, ari gusobanurira umugabo we uko bigenda.

Abadamu benshi bageze mu za bukuru bicaye ku ntebe za purastike z'umweru, bakaba iruhande rwabo hari n'amasakoshi, benshi bateze udutambaro mu mitwe yabo, abandi bafite n'imisatsi y'umweru izwi ku izina ry'imvi.

Abagabo babiri bari kugenda bakaba basa n'abari gukora imyitozo ngororamubiri bambaye imyenda y'umweru n'umukara, ipantaro irimo uturongo, bakaba umwe afite agacupa k'amazi mu ntoki ze n'undi ni uko bakaba hirya hari ubusitani.

Umugabo wicaye ku kagare kameze nk'aho ari ak'abamugaye ugeze mu za bukuru ufite imvi iruhande rwe hari umudamu umeze nk'umuforomokazi wambaye iby'ubururu ari kumuganiriza amwenyura inyuma yabo hari imisego n'intebe n'amarido.

Umudamu mwiza wirabura ufite imisatsi y'umweru, ari gukoreshwa imwe mu myitozo ngororamubiri, n'undi ufite umusatsi muremure w'umukara, akaba yambaye agapira kajya gusa na move katagaragara neza , hirya hakaba hari ibirahure n'ibara rya shokora riri muri ibyo birahuri.

Abadamu bagera muri batatu basa n'abageze mu za bukuru bakaba bafite imisatsi y'umweru harimo n'abavanze n'iy'umukara hagati hari uwambaye agapira k'umuhondo abandi bose ni umweru hari ufite uduherena undi akaba yasize akantu gatukura ku minwa ye n'uduherena tw'umweru ufite telefone mu ntoki ze.

Umugabo ugeze mu za bukuru ufite imvi nyinshi yaba mu mutwe no mu bwanwa, akaba yambaye agashati k'umweru n'ipantaro y'umukara yahinye, imbere ye hari n'ikibando, iruhande rwe yicaye abana babiri batandukanye bafite utuntu bari kurya tumeze nk'ibisuguti.

Abadamu babiri bari gukora imyitozo ngororamubiri, umwe akaba yambaye agapira karimo utubara tw'umukara n'umweru atagaragara neza, imisatsi ye ugeze mu za bukuru yafungiye hejuru irimo utuvi ndetse ari kumwe inyura akaboko ke k'iburyo kariho akantu k'umweru, undi yambaye umweru urimo agahondo n'uduherena.

Umudamu umwe ugeze mu za bukuru wogosha umusatsi akawumaraho yambaye uduherena n'agapira k'icyatsi kitagaragara neza, afite ibinini mu ntoki ze n'ikirahure kirimo amazi agiye kunywa, hirya hari rubine itarimo amazi imanura, hakaba hari n'irido ry'umweru.

Umugore n'umugabo bari mu cyumba cyo kuriramo bakaba bicaye bari kwarura amwe mu mafunguro bateguriwe, imbere y'uwo mugabo hakaba hari amazi ari mu karahure atuzuye neza akaba ari kumwenyura yarurira mugenzi we.

Abamama batandukanye bagera nko muri batandatu bicaye imbere y'inyanya ahantu mu isoko, bakaba bambaye imyenda y'ibitenge by'amaribaya, hakaba hari abateze mu mutwe n'umukecuru umwe udatezemo ufite imvi mu mutwe, bambaye imirimbo itandukanye yaba mu ijosi no ku maboko yabo.

Umumama mwiza cyane uwa ukuze w'inzobe ufite agatetire k'umuhondo mu mutwe we akaba ari guhabwa ikinini na muganga ,imbere akaba afite ikirahure kirimo amazi n'akandi gakarito k'umuhondo gasa naho kavuyemo nibyo binini.

Ahantu hari abantu batandukanye, imbere yabo babiri muri bo, hakaba hari ameza ariho amafunguro runaka, umusaza uri kumwenyura, afite imvi nyinshi mu mutwe we, akaba yambaye agapira k'umuhondo, n'akageretseho, amazi ari imbere ye, n'umuganga umuhagaze inyuma wambaye imyenda y'umweru n'akantu k'akabaji.

Abantu benshi bicaye mu cyumba gisa n'aho kiri kuberamo inama imbere yabo hakaba abandi bicaye babareba inyuma ye hakaba hari icyapa kinini cyane kigaragaza insanganyamatsikoko y'ibiri kwigirwa muri iyo nama.

Abantu bagera muri bane bagiye bakigikiye impinja mu ntoki zabo, inyuma yaho hakaba hari ibyapa bigaragaza ibikorerwa aho, akaba ari nk'ahantu hakingirirwa abana bakiri batoya.

Abantu bicaye bambaye udupfukamunwa, imbere yabo hakaba hari undi wambaye n'akandi kantu mu maso n'amasashi n'uturindantoki ifite ibipapuro imbere ye, n'amakaramu akaba ari kwandika.

Abagabo n'abagore benshi bambaye imyenda y'umweru, bari kugendagenda mu muhanda, bakaba bafite ibyapa binini cyane byanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, hakaba handitse ngo "twirinde kanseri y'ibere, tuyisuzumisha hakiri kare kuko ivurwa igakira".

Abagabo babiri bambaye amakote, umwe akaba yambaye rinete, uri kumwenyura na karuvati isa n'ikote yambaye, hari ufite igipapuro imbere ye kigaragaza ko ari nk'icyahawe, inyuma yabo hakaba hari icyapa kiriho ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda.

Ibiganza bibiri by'umugabo wambaye ga z'umweru akaba yambaye n'akandi kantu kagaragaza umurimo akora, ishati ari gutera urushinge umugabo wambaye isengeri ku rutugu hirya hakaba hari n'abandi bantu.

Ahantu hameze nk'aho ari kwa muganga hakaba hari icyapa kinini cyanditseho ibitaro bya Nyanza kigaragaza igikorerwa aho ngaho, hirya hakaba hari ibindi byapa bigaragaza uburyo bavura n'indwara bavura izo arizo, hakaba harimo inyubako n'ibiti bitandukanye.

Icyumba kimwe cyo kwa muganga, hari kugaragara umurwayi urwaye wiyoroshe ikiringiti, wambaye imyenda irimo umutuku n'umukara ndetse ikiringiti kikaba kirimo amabara atandukanye, umutuku, ubururu n'umweru, hirya ye hakaba hari imashini igaragaza uko umutima utera, hafi aho hari agace gatoya kari kugaragara k'umuganga, inyuma ye hakaba hari ibyuma bitanga umwuka.

Inyubako nini iri ahantu heza ifite amabati atukura ndetse n'amabara atandukanye iroza n'ubururu butagaragara neza hirya hakaba hari ibyapa bigaragaza ibihakorerwa hakaba ari nko kwa muganga imbere yaho hari intebe z'itukura ndetse hari ibyatsi biri hirya no hino.

Kwa muganga harimo abaganga bagera kuri batanu, n'utari kugaragara neza uri inyuma y’ufite ibisuko birebire, wifashe mu mayunguyungu, wambaye agapira k'umukara. Umugabo uri kugaragara igice cy'inyuma, imbere ye hakaba hari agacupa gasa naho kavamo ubuto, hirya hakaba hari undi ufite ibisuko.

Inyubako zikikijwe n'ubusitani bwiza cyane burimo ibiti n'ibyatsi ha akaba harimo n'inzira y'abanyamaguru iriho utuntu tw'umukara n'umweru hagati muri bwo harimo utundi tuntu tw'ubururu hirya hakaba hari ikigega ndetse gifite inkingi z'umutuku n'amatara maremare ashyirwa ku mihanda.

Igiti kinini cyiza cyane cy'inganzamarumbo hirya hakaba hari ibyatsi, kikaba gikorotirijwe amabuye ndetse n'agafondasiyo hicayeho umugabo wambaye neza wambaye ishati ya buresiyeri n'ipantaro y'umukara utuje.

Inyubako zitandukanye z'ibitaro bya gisirikare bya Kanombe, imbere yaho hakaba hari umuhanda imodoka zishobora gucamo, hirya inyuma y'icyapa hari umugabo wambaye imyenda isa shokora ari inyuma y'imodoka, hirya ye hari umugabo wambaye iby'umukara.

Ahantu hamwe hakorerwa ubuvuzi bw'amaso, hakaba hari igishushanyo kinini cyane kigaragaza ijisho, n'uburyo baritunganyamo barikora, n'ibipirizo bifite amabara abiri atandukanye umweru n'ubururu, n'intebe ziri imbere yaho.

Ahantu hamwe hari abantu barimo imbere muri kontari hakaba hari umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'ubururu, wambaye n'ingofero hejuru ye hakaba hari isaha usa naho ari kwakirwa n'abandi bari ku ruhande bicaye bategereje guhabwa serivisi.

Umurwayi uryamye ku gitanda cyo kwa muganga akaba ari guhindurirwa umwe mu miti aba yahawe n'umuforomokazi ufite ibisuko, ufite akantu k'ubururu kari mu mutwe we hirya akaba areba ibyuma bitandukanye bimufasha kwita ku murwayi..

Inyubako igeretse hakaba hari bariyeri ituma imodoka zisohoka, hakaba hari gusohokamo imodoka y'umukara hirya hakaba hari umugabo wicaye ku ntebe ya purasitike y'umweru n'indi y'urubaho imuri uruhansde.

Abadamu batatu hicaye babiri muri bo undi akaba ahagaze afite igitabo kinini mu ntoki ze n'ikaramu. Imbere abandi bakaba bari kuganira bicaye ku ntebe. Imbere yabo hari ameza, umwe akaba ari gusa naho abaza ibibazo mugenzi we.

Inyubako imwe igeretse kabiri iriho icyapa kinini cyane kiyigaragaza ibihakorerwa amagambo ari mu ibara ry'ubururu icyatsi n'umuhondo imbere yaho hakaba hari imodoka zitandukanye umweru n'iy'umukara.

Icyumba kimwe kirimo abaganga bari gukora ubushakashatsi, hari abicaye n'undi uhagaze uri kugenda. Hakaba hari utubati tubikwamwo imiti bakoresha, ndetse n'ameza ariho indi miti iri muri ambarage , harimo n'ibindi biri mui ibara ry'icyatsi n'ak'umuhondo

Abantu basa naho bari mu ihema bakaba bambaye imyenda y'umweru igaragaza ko bakora kwa muganga, bakaba bari gukorera umugabo ibizamini by'indwara yaba arwaye mu mubiri we.

Abantu bari kwa muganga hakaba harimo udutanda tw'abarwayi, umumama wambaye agapfukamunwa hirya hakaba hari n'abandi bambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara n'utundi twapa tw'icyatsi tugaragaza turangira abantu aho bagomba kujya n'ibindi bikoresho bifasha abarwayi n'abaganga.

Umudogiteri umwe uhagaze imbere y'aho akorera ubushakashatsi, akaba ari gusuzuma imwe mu mitima afite mu ntoki ze yambaye agapfukamunwa n'itaburiya, hirya yiwe hari mudasobwa n'intebe akoreramo akazi ke.

Ahantu hakorerwa ubucuruzi inyubako nziza cyane harimo amatara ndetse n'amakaro, hasi intebe ya parasitike iriho akantu k'ubururu katagaragara neza, muri utwo tubati hakaba harimo imiti igiye itandukanye, hariho n'ibirahure by'umweru.

Inyubako iriho imiryango itandukanye, hejuru hakaba hari icyapa kigaragaza ibihakorerw, kirimo amagambo y'icyatsi, ubururu, ndetse na nimero zabo za telefone, kigaragaza ko hakorerwa ubucuruzi bw'imiti, hasi hakaba hari abantu bahahagaze, ndetse n'abamotari.

Abantu benshi bicaye kwa muganga bafite udupfukamunwa ku minwa yabo, hari abitangiyeriye itama n'abandi bategereje ibisubizo byo kwa muganga. Umwe muri abo arahagaze, yambaye ipantaro y'umutuku n'inkweto z'umukara ari kureba abandi mu maso.

Umugabo umwe wambaye ibyenda bipfutse umubiri we wose akaba yambaye n'inkweto akaba yapfutse umunwa n'amazuru, ndetse afite akantu mu ntoki ze gasa naho gatera imiti irinda zimwe mu ma virusi atandukanye, hakaba hariho akapa kuri uwo muryango uri inyuma ye kabuza gukoraho.

Icyumba kimwe kimeze nk'aho ari kwa muganga harimo bimwe mu bikoresho bikoreshwa havurwa umurwayi, ndetse n'agatanda gatoya gasasishije ishuka y'umweru katariho umurwayi, hakaba hari ifoto nini cyane iri hejuru ku rukuta.

Ubusitani bunini burimo ibyatsi gusa hirya hakaba hari ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, hakaba hari n'ibiti n'izindi nyubako z'umweru hirya y'akayira k'abanyamaguru hari iyindi nyubako irimo amabara atandukanye.

Abantu b'ingeri zitandukanye barahagaze abandi bicaye imbere y'inyubako zitandukanye ziri ahantu hasa n'aho ari kwa muganga, bakaba bategereje kuvurwa cyangwa se bakaba bahafite abarwayi bari mu bitaro.

Inyubako ifite amatafari ahiye hakaba hari icyapa kigaragaza ibihakorerwa biri mu magambo y'ubururu handitseho isange wani stopu senta, aho bakirira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina hakaba hakinguye.

Abantu benshi bahagaze imbere y'ikigo nderabuzima cya Gishweru, imbere yabo hakaba hari utubuye dutoya turi hasi, hakaba ari uwicaye ku gatebe k'urubaho, hirya hari undi muntu uri kugenda ahagana ruguru.

Inyubako igereratse ikaba isa n'aho yubakishijwe amabuye, hari abagabo bari kugenda mu nzira y'abanyamaguru, iyo nyubako ifite inkingi zisa shokora n'akantu ku ruhande kagaragaza aho amazi anyura amanuka ajya mu busitani, abo bagabo bari kuyigendagendamo bambaye iby'umweru.

Amarembo manini ariho icyapa cy'umukara kirimo amagambo y'umweru, agaragaza ko ari ibitaro bya kabgayi, mo imbere harimo abantu, hari abagenda n'umuntu uhagaze, n'inyubako zitandukanye n'ibiti.

Abaganga benshi bambaye imyenda y'umweru n'uturongo tw'ubururu bakaba bipfutse mu mutwe mu maso bambaye udupfukamunwa n'uturindantoki n'inkweto, hirya hakaba hari abandi barwayi baryamye ku bitanda.

Inyubako ndende igeretse imbere yayo hakaba hari abantu bambaye imyenda y'ubururu n'umukara hari n'uwambaye ishati y'umweru uhagaze hagati , imodoka y'umweru nicyapa kinini kiriho amagambo y'ubururu n'umuhondo n'agatuku kari hasi.

Inyubako nini cyane ikikijwe n'ibyatsi ku ruhande cyangwa se pasuparume, hakaba hari ibyapa bigaragaza ibihakorerwa, icyapa kinini cy'umweru kiriho ijisho n'amagambo y'ubururu yanditseho ngo aho bavurira amaso, hirya hakaba handitsweho andi magambo ngo Gihurwe ibitaro.

Abantu benshi bari mu imbere y'inyubako iri mu kigo nderabuzima hakaba hari abantu bicaye kudufondasiyo n'abahagaze bategereje ko abarwayi babo bakorerwa ibyangombwa, imbere yabo hakaba hari akamodoka gasa umukara n'umudamu wambaye igitenge ufashe mu mayunguyungu uri inyuma yayo.

Inyubako nini cyane y'umweru igeretse hakaba harimo n'utubara tw'ubururu bikikijwe n'ibyatsi harimo n'ibiti, imbere yayo hahagaze abambaye imyenda y'umweru babiri hari icyapa kinini cyane kigaragaza ko ari inyubako y'akarere ka nyarugenge ibitaro.

Inyubako zitandukanye zigeretse zikaba zifite utuntu tw'utwuma ku ruhande, hagati mu kibuga hari imodoka iruhande rwayo hakaba hari ibyatsi n'idarapo ririmo ibendera ry'igihugu rigira amabara atatu atandukanye, n'ipikipiki iri iruhande rw'iyo modoka.

Kwa muganga umudamu w'umurwayi wambaye ingofero y'umukara, umuganga ari kumukoraho amubaza uko amerewe afite n'akuma kamufasha kumva uko umurwayi ameze, inyuma ye ku gitanda hari undi murwayi utegereje ko afashwa, hirya hari akuma gashobora kuzimya umuriro gihe habayeho inkongi.

Abantu b'ingeri zitandukanye havuyemo uruhu rwera n'abirabura bahagaze iruhande rw'icyapa kinini cyane cyandikishwaho amagambo y'umweru kiri mu ibara ry'umukara handitseho ko ari ibitaro bya butaro hakaba hari ibigaragaza ibihakorerwa andi magambo ari munsi bakaba bahagaze abandi bicaye.

Ahantu ku kigo nderabuzima hahagaze umuganga wambaye agapfukamunwa n'itaburiya y'umweru, hirya hari icyapa cy'icyatsi kigaragaza bimwe mu bihakorerwa, akandi kapa k'umweru karimo amagambo y'icyatsi hagaragaza ko ari muri materineti.

Inyubako ndende cyane igeretse ifite ibara rya oranje, ndetse n'andi mabara atandukanye, hirya hari inzugi z'ibirahure, hino hari ubusitani burimo n'amatara n'inyubako ndende cyane ifite ibirahure kuruhande.

Umugabo umwe wambaye imyenda y'ubururu n'ipantaro y'umukara ari kuzinga inzitiramibu kwa muganga, aho umurwayi arwaye yambaye imyenda y'ubururu n'ishuka, hirya izindi zikaba zizinze, inyuma ye hakaba hari akuma gafasha abaganga kumenya uko umurwayi amerewe.

Umugabo upfukamye uri gukora imyitozo ngororamubiri, akaba yambaye imyenda y'umukara irimo akabara k'umweru ikabutura ye, akaba amaboko ari imbere ye, umutwe akaba yawushyizemo hagati agace gatoya kari kugaragara ubwanwa bwiwe.

Bimwe mu byo ugomba kuba ufite kugirango ugabanye ibiro harimo: amazi, pome ndetse n'urubuto ruzwi ku izina rya oranje, hirya hakaba hari ibikoresho bigufasha gukora siporo, yaba ibyo baterura ndetse na metero gufasha kumenya niba ari munda uri kugabanya, aho bigeze.

Umukobwa umwe wambaye ipantaro y'umukara n'agasengeri kari mu ibara ry'iroza ku ruhande, ari gukora imyitozo ngororamubirirori ari kugatapi aho ari kugorora ingingo, hirya ye hari amavaze arimo indabo zitandukanye zisa n'icyatsi, n'akandi k'umukara.

Ikibuga kinini gikorerwamo imyidagaduro hakunze kubera umukino wa basiketibolo, dukurikije icyapa kiri inyuma aho ngaho harimo abakobwa benshi n'abasore bambaye imyenda y'umukara n'umweru, bakaba bameze nkabari kubyina n'abandi bantu baje kureba ibiri kubera aho ngaho bari ku ruhande rwa ruguru.

Ibitaro bimwe birimo umuntu uri ufite ibibazo by'amagufawa y'akaguru, imbere hakaba hahagaze abaganga n'abandi bantu bari inyuma ye bakaba bari kwitegereza bareba ikibazo cy'ako kaguru ke, ku buriri harambitse impapuro n'undi muganga uri hirya wambaye imyenda y'umweru irimo umutubara tw'umukara.

Ibyo kurya bitandukanye umuntu ashobora gukoresha kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza hakaba hari n'ibikoresho bituma umubiri ukomeza kumererwa neza bya siporo, inkweto, umugozi wo gusimbuka.

Umuganga w'umugabo uri kugorora zimwe mu ngingo z'umudamu uryamye ku gatanda ko kwa muganga wambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'umweru ari kumasa akaguru kiwe, hirya hari icyapa kigaragaza ko baba bari kuvura amagufa.

Abagabo babiri bari mu myitozo ngororamubiri umwe akaba yambaye inkweto z'umukara zifunze n'ikabutura n'umupira utukura n'isaha, afite akantu kameze nka balo mu ntoki ze ari gusimbuka, mugenzi we wambaye umupira w'umukara ari gusa naho amubwira uko abigenza asa n'aho ari kumutoza.

Abagabo babiri bafite uruhu rwera basa n'abari guhagurutsa umwe mu bari bari mu mikino itandukanye, akaba yambaye kasike mu mutwe n'imyenda iri kugaragaza igikorwa yari arimo gifitanye isano n'imyitozo ngororamubiri ariko ikaba ari imikino.

Umwe mu baganga uri guhagurutsa umurwayi akoresheje akagare gafasha abarwaye iyo bafite ibibazo by'imitsi cyangwa amaguru atagenda neza kugenda muri icyo cyumba hakaba harimo vandarateri ifasha umurwayi kubona umwuka mwiza ahumeka , hakaba hari n'urugi rw'umweru.

Umukobwa wicaye hasi iruhande rwe hakaba hari icupa ry'amazi uri gukora imyitozo ngororamubiri, wambaye inkweto z'umweru n'imyenda y'umukara, utwuma tumufasha kumva umuziki ndetse n'akantu gafasheho telefone ku kaboko.

Umukobwa uryamye hasi ku itapi uri gukora imyitozo ngororamubiri akaguru ke k'ibumoso kararambuye neza, amaboko ye yombi afashe akaguru k'iburyo yagahinye aryamye umutwe we urambuye.

Umusore wambaye agasengeri k'umukara akaba yicaye ukuboko kwe kw'iburyo gufite agacupa mu ntoki ari kunywa amazi, asa naho amaze gukora imyitozo ngororamubiri, akaboko ke k'ibumoso gafiteho akantu k'icyatsi afite n'ubwanwa.

Bimwe mu bikoresho bikunze kwifashishwa kwa muganga kugira ngo bafashe abantu bafite ibibazo bitandukanye, yabafite imvune ndetse n'ibindi bibazo by'umubiri wabo harimo bande ikunze gufasha abafite ibibazo by'imvune ndetse n'ibindi binini bitandukanye.

Umukobwa umaze gukora imyitozo ngororamubiri akaba yambaye agasengeri karimo utubara dutandukanye umukara, icyatsi, umweru n'ubururu, afite agacupa k'amazi kariho metero cyangwa se santimetero z'amazi amaze kunywa akaba afite agasatsi gakeya.

Mu gihe cya covide cumi n'icyenda abaganga bari imbere y'ikoranabuhanga bari kureba amakuru agaragaza aho icyorezo kigeze n'uburyo bwo kwirinda butandukanye kugira ngo babugeze ku baturage.

Abadogiteri n'abaganga bari mu cyumba kimwe harimo n'abarwayi n'abarwaza, hakaba hari amakuru bari kurebera ku nsakazamashusho iri imbere ahongaho. Hari abambaye rinete, abambaye udupfukamunwa n'abatatwambaye, uwambaye itaburiya afite ibisuko.

Umusore n'inkumi basa naho bari ahantu hakorerwa imyitozo ngororamubiri, umusore akaba yicaye ku gatebe akaba ari kunywa amazi, imbere ye hari igikapu cy'umukara hirya, y'umukobwa nawe n'uko, akaba ari kugorora amaboko yambaye agakabutura n'agasengeri kagaragaza umukondo.

Abantu benshi bari ahantu hameze nk'aho ari mu nkambi umudamu wambaye imyenda wipfutse ahantu hose, usa naho ari umubikira n'undi mwana wambaye imyenda itandukanye, hakaba hari umukobwa ufite uruhu rwera uri kumukora ku.

Bimwe mu bintu umuntu ashobora kwifashisha kugira ngo atakaze ibiro harimo ibyo kurya bitandukanye, bifite intungamubiri zitandukanye, harimo indimu, icyatsi cya rumari ndetse n'ibyo kunywa, pome, amazi na siporo

Abagabo babiri bicaye mu cyumba umwe akabaha ukuguru kwiwe gusa naho kuri gukorerwa ubugorozi hakaba hari uwambaye itaburiya y'umweru na congo, hirya hakaba hari utundi tuntu hakaba bameze nko kwa muganga.

Ibyuma bitandukanye umuntu ashobora kwifashisha mugihe akora imyitozo ngororamubiri, na zimwe mu mbuto ushobora kurya cyangwa ukazikoresha mugihe ukunda gukora siporo harimo, kokombure na oranje, pome y'umutuku n'iy'icyatsi, umuneke, pavuro ndetse,

Umusore n'inkumi bari gukora imyitozo ngororamubiri bari kwirukanka bakaba bafite uducupa turimo amazi, umukobwa ka afite akantu k'umukara ku kaboko ke, umusore akaba yambaye agapira n'agakabutura karimo icyatsi mo imbere, umukobwa akaba yambaye agasengeri k'ubururu.

Hamwe mu bakorerwa ubuvuzi bw'amagufa hari umugabo uri gukorerwa ubugororangingo wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara niwe uri kumwitaho yicaye ku gatanda ari kumwereka uko bimeze hirya yaaho hari abandi bantu nabo bafite.

Ahantu hameze nko mu gikoni hariho akabaho bakatiraho ibirungo bitandukanye, hakaba hariho ikirungo cyo mu bwoko bw'ibyatsi bakunze kwita teyi, hirya hakaba hari icyuma gifite ikirindi cy'igiti.

Umugabo wambaye ishati n'ikote akaba ari umuganga uvura hifashishijwe ibimera amagambo ari hasi agaragaza ibyo avura n'uko ukwiriye kumubona hasi hari nimero ye ya telefone.

Umudamu umwe wambaye imyenda y'umweru n'udusandari twa shokora ufite imisatsi y'umukara, afite telefone mu ntoki ze, imbere hakaba hari imiti itandukanye ikorwa mu bimera ishobora kuvura, udutondetse hasi turi mu macupa y'umweru n'utw'cyatsi n'amacupa maremare asa shokora.

Abantu babiri bari ahantu hameze nko mu ishyamba umusaza akaba yambaye agapira k'umukara n'undi w'umutuku afite n'akantu mu ntoki ziwe, hakaba hari ibyatsi byinshi mugenzi we ateze akantu mu mutwe ndetse yambaye umupira w'umweru.